Abantu batandukanye bari mu nama ahantu barimo gukorera inama hateguye neza, ameza bose bicayeho ariho ibitambaro by'umweru buri wese kandi yahawe amazi yo kunywa.

Abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bari ku rugerero. urugerero ni igihe abanyeshuri bahurira hamwe kugirango bakore ibikorwa by'iterambere kandi banigishwe indangagaciro z'ubunyarwanda, harimo abasore n'inkumi, harimo kandi abashinzwe umutekano bari kumwe nabo.

Abantu batandukanye bahuriye mu nama, baratandukanye bamwe ni abagabo abandi ni ab'igitsina gore, ndetse harimo n'abazungu. Buriwese imbere ye hagiye hariho agapapuro kagaragaza izina rye n'aho yaturutse.

Abantu bari mu nama bicaye mu cyumba k'inama bose barakurikiye imbere, hari umutuzo kandi icyumba k'inama gifite amafu n'umutekano buri wese afite amazi yo kunywa.

Abantu batandukanye bitabiriye inama. Bose bari mu cyumba k'inama kandi bose barakurikiye, ni abantu batandukanye kuko harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bose barimo barareba imbere buriya hari umuntu urimo kubaganiraiza.

Inama y'abaturage. Abaturage bicaye hasi mu byatsi, abandi bahagaze ku ruhande mu gicucu, munsi y'igiti. Abayobozi bicaye ku ntebe imbere yabo. Umuyobozi umwe afashe ijambo arimo arabigisha.

Abantu batandunkanye bari mu nama, bafite ibikoresho bitandukanye hakubiyemo amakayi yo kwandikamo, amakaramu, buri wese afite amazi yo kunywa imbere ye kandi aba bantu baratandukanye harimo abagabo harimo n'abagore.

Abantu batandukanye bari mu nama bose bicaye ku meza azengurutse, ni ameza ateguye neza n'ibitambaro. Buri wese afite amazi yo kunywa kandi buri wese arakurikiye barimo barakoresha ikoranabuhanga.

Abantu bari mu nama, abantu bose bicaye ku meza kumurongo, kandi buri wese imbere ye hari agapapuro kanditseho izinza rye naho yaturutse, buri wese afite amazi yo kunywa kandi buri wese arakurikiye inama.

Abantu batandukanye bari mu nama, bambaye neza bose kubera ko abagabo bambaye amakoti n'abagore bambaye neza cyane bya kidamu. Bose bicaye neza bafite ibikoresho byose, amakayi ndetse n'amakaramu, bafite amazi yo kunywa.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bakurikiye inama, bose baratuje kandi bose barareba imbere, buri wese imbere ye hari ikarita igaragaza amazina ye n'aho yaturutse, umwe muri bo afashe ijambo.

Abantu batandunkanye bari mu cyumba cy'inama bose buri muntu yicaye ku ntebe ye bwite kandi bose barakurikiye, baravangavanganze harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, harimo abafite za mudasobwa kubera ko barimo gukoresha ikoranabuhanga.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama bateze amatwi, buri wese yicaye ku ntebe ye kandi buri wese ahanze amaso imbere, buri wese kandi afite ikintu cyo kwandikaho kandi buri wese aratuje.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bose ni abigitsinagore Bose Kandi bafite amazi yo kunkwa nahantu ho kwandika Ibigenda bivugirwa mu nama Bose baricaye baratuze Kandi barakurikiye ntacyibarangaza.

Abantu bari mu nama. Abantu batandukanye bicaye buri wese ku ntebe ye kandi bose batumbereye imbere mu cyumba k'inama. Harimo abagore, abagabo, inzego z'umutekano n'abandi.

Abantu batandukanye bari mu nama bose buri wese yicaye mu mwanya we kandi ni ibyicaro byiza buri wese afite amazi yo kunywa bose barimo barareba imbere bakurikiye ibivugirwa mu nama.

Abantu bari mu nama, abantu batandukanye baricaye harimo abagore harimo n'abagabo bakurikiye inama, buri wese arimo arandika ibivugirwa mu nama, umugore uri imbere arimo arabasobanurira.

Abantu batandukanye bitabiriye amahugurwa, bose bateze amatwi kandi barakurikiye, buri wese yicaye kuntebe nziza yagenewe kandi intebe yegamirwa, buri wese yahawe amazi yo kunywa.

Umunara w'itumanaho ni umunara wubakwa n'ibigo by'itumanaho bigashyiraho insakazamashusho n'inyakiramashusho cyangwa se insakazamajwi n'inyakiramajwi kugira ngo bigeze ubutumwa ku baturage batuye kure.

Urubuga rureberwaho amakuru ku butaka rw'ikigo k'igihugu gishinzwe ubutaka, ushobora kuharebera imikoreshereze y'ubutaka bwawe, ushobora no gukuraho icyangombwa cy'ubutaka bwawe mu gihe wagisabye.

Hamwe na byikorere ku rubuga irembo.gov ushobora kwisabiraho serivise zitandukanye ndetse n'ibyangombwa bitandukanye, muri ibyo harimo nk'icyangombwa kigaragaza ko umuntu atigeze akatirwa n'inkiko byikorere rero ubone icyemezo mugihe gitoya.

Muri gahunda ya byikorere itangwa n'ikigo irembo, ushobora kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, ibisabwa nuko ugomba kuba ufite indangamuntu y'igihugu y'U rwanda, ugomba kuba ufite imyaka iri hejuru ya cumi n'umunani, kandi ugomba kugira nimero ya telefone cyangwa aderesi ya imeri kugirango uge wakira ubutumwa.

Umunara w'itumanaho ni umunara ukoreshwa n'ibigo bitandukanye by'itumanaho aho bishyiraho ibikoresho bitandukanye kugira ngo bisakaze amashusho cyangwa se bisakaze amajwi amajwi mu duce twa kure cyane tw'igihugu.

RBD ni Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Iterambere n'Ubukerarugendo. Umuntu wese ushaka kumenya amakuru ajyanye na serivisi batanga yagana aho bakorera, cyangwa se akabasura binyuze ku rubuga rwabo rwa murandasi, kugira ngo asobanukirwe.

Umunara w'itumanaho ni umunara wubakwa n'ikigo cy'itumanaho, kugira ngo bashyireho ibikoresho bizasakaza amajwi cyangwa se bigasakaza amashusho bitewe n'icyo bumva bifuza kugeraho, abaturage batuye kure bashobora kubona ibituruka ku munara w'itumanaho.

Umunara w'itumanaho ni umunara wubakwa ahantu hirengeye nko ku gasozi, ugashyirwaho ibyuma bisakaza amajwi bikanakira amajwi ndetse n'amashusho kugira ngo bigeze ubutumwa cyangwa amajwi n'amashusho ku baturage batabituriye.

RURA ni Ikigo cy'Igihugu kigenzura Imiririmo ifitiye Igihugu akamaro. Kuri RURA kandi ushobora kuhasabira impushya zitandukanye, nk'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.

Irembo govu ni urubuga rusabirwaho serivise za leta n'ibyemezo bitandukanye, ku irembo govu ushobora kwisabiraho icyemezo icyo aricyo cyose ukakibona urugero; nk'icyemezo cy'uko utuye, icyemezo k'ingaragu, icyemezo cy'amavuko n'ibindi.

Umunara w'itumanaho. Umunara w'itumanaho ni umunara ukoreshwa kugira ngo basakaze amajwi n'amashusho aho atakagombye kuba agera, umunara w'itumanaho utuma abantu babasha kumva amaradiyo atandukanye bakareba n'amatereviziyo atandukanye.

Icyumba k'ikoranabuhanga ni icyumba kiba kirimo za mudasobwa n'ibikoresho byayo kandi kikaba kirimo murandasi ihagije. Abantu bicayemo barimo hari ibyo barimo bakora muri serivise z'ikoranabuhanga.

Icyumba cy'ikoranabuhanga. Ni icyumba kiba kirimo za mudasobwa abantu bashobora kuza bakicaraho bakagira ibyo bakora, bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga, izo mudasobwa kenshi zihora ziriho na murandasi, abantu bari muri icyo cyumba barimo barakora ubushakashatsi.

Icyumba k'ikoranabuhanga ni icyumba abantu bifashisha iyo bagiye gukora ibintu byinshi bitandukanye bikorerwa kuri mudasobwa, kirimo mudasobwa nyinshi cyane n'abantu barimo barakoreraho ubushakashatsi.

Umunara w'itumanaho uba ufite ibyuma bitandukanye byashyizweho na masosiyete y'itumanaho kugira ngo bisakaze amajwi n'amashusho cyangwa byakire amajwi n'amashusho hirya no hino mu gihugu.

Byikorere ni ubukangurambaga bw'irembo govu. Unyuze ku irembo wabonamo serivise zitandukanye, ushobora kwiyandikisha ku kizamini cyo gutwara ibinyabiziga, ni ukwinjiramo ukoreshaje telefone yawe ukajya ahanditse serivise za polise.

Imwe mu minsi y'ikiruhuko rusange, kuwa mbere tariki ya makumyabiri na gatandatu Ukuboza buri mwaka, wari umunsi w'ikiruhuko rusange ku rwego wo kwizihiza umunsi ukurikira noheli. Kuwa mbere tariki ya kabiri Mutarama buri mwaka, ni umunsi w'ikiruhuko rusange mu rwego rwo kwizihiza umunsi ukurikira ubunane.

Rebu ni ikigo k'iguhugu gishizwe uburezi bw'ibanze. Rebu ifite munshingano zabo kubaka amashuri no gushyiramo abakozi bizigasha abanyeshuri, abakozi bigisha abanyeshuri babita abarimu.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kiri kugaragaza serivisi zitangirwa ku rubuga rwa Irembo. Ku rubuga rwa Irembo habaho serivisi nyinshi zitandukanye; umuntu ahitamo iyo akeneye.

Ubukangurambaga bwa byikorere butangwa n'ikigo irembo hamwe na byikorere ushobora kwisabira serivisi zitandukanye utagombye kujya kureba umuntu ubigufashamo ibyo ugomba kuba wujuje ugomba kuba nibura ufite imyaka cumi n'umunani, ufite indangamuntu yawe y'u Rwanda kandi ufite serivisi uri gusaba.

Rebu ni ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze mu Rwanda. Ni ikigo kita ku myubakire y'amashuri, kigashyiramo abarimu, ndetse kikita no ku myigire n'imyigishirize yo kuri ayo mashuri.

RULA ni ikigo kigenzura serivisi z'itumanaho, irasaba rero abanyarwanda bose gushishoza igihe bahamagawe cyangwa bakakira ubutumwa bubasaba amafaranga ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho n'izindi nzego zitandukanye.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho, basuye umunara w'itumanaho, bafite na mudasobwa, barimo barareba ibintu byangiritsemo, kubera ko biteguye kubisana kugira ngo babikore neza.

Urubuga irembo govu ni urubuga rutangirwaho serivise z'ibyemezo bitanga na leta, ushobora kuhasanga ibyemezo byinshi bitandukanye wasaba nk'icyemezo cy'utishoboye wacitse ku icumu rya jenoside ndetse n'ibindi byemezo byose bitanga n'inzego z'ibanze.

Urubuga irembo.gov n'urubuga rusabirwaho serivise zitandukanye zitangwa n'ibigo bya Leta. Urubuga irembo.gov ushobora kuhasabiraho ibyemezo bitandukanye nk'icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'ingaragu, icyemezo cy'uko washatse, icyemezo cyuko utuye n'ibindi.

Umunara w'itumanaho ukoreshwa n'ibigo by'itumanaho, bigashyiraho insakazamajwi n'insakazamashusho kugira ngo bibashe kugeza ubutumwa ku bantu batuye kure hitaruye.

Muri gahunda ya byikorere ku rubuga irembo.gov ushobora kwiyishyurira ubwisungane mu kwivuza ukoresheje telefone yawe, n'ugusura urubuga www.irembo.gov.rw ukinjira muri serivise z'ubuzima, ugakanda ahanditse kwishyura mituweri, ugakanda ahanditse ngo sawa.

Hamwe n'ubukangurambaga bwa Byikorere ku rubuga irembo.gov, ushobora kwisabiraho serivise zitandukanye, nko gusaba ibyangombwa bitandukanye, ushobora kwiyandikisha kugira ngo uzakore ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga.

Mu bukangurambaga bwa byikorere ku rubuga "Irembo", ushobora kwisabira serivisi zitandukanye, nko kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa se gukora ikizamini cya burundu. Ushobora gusabiraho n'izindi serivisi zitandukanye.

Umunara wa itumanaho: Umunara wa itumanaho bawubaka ahantu hiregeye kumpera zawo bagashyiraho ibikoresho bisakaza, bikanakira amajwi na amashusho kugira ngo bigeze ubutumwa kubaturage batuye kure.

Iminara y'itumanaho ni iminara miremire bashinga ahantu ku gasozi, bagashyiraho ibyuma bisakaza kandi bikanakira amajwi. Biba bigamije kugeza amajwi n'amashusho mu duce twa kure cyane abaturage batuyemo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu b'abanyamaguru, umunyamagauru umwe arimo arambukiranya umuhanda abandi bari mu nkengero z'imihanda mu muhanda kandi harimo amatara ayobora ibinyabiziga.

Insinga z'amashanyarazi, n'insinga zikoreshwa kugirango ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi, kibashe kugeza amashanyarazi ku bantu bategeranye cyangwa batuye mu cyaro.

Umuhanda wa kaburimbo uriho akayira k'abanyamaguru. Munsi y'akayira hari ubusitani bugizwe n'indabyo. Munsi y'indabyo hari amazu atandukanye, hakaba harimo n'indi imwe nini cyane.

Inzu zubatse iruhande rw'umuhanda, kuruhande rw'inzu hari indabyo z'ubusitani, ku muhanda hari inzira imanura amazi.

Insinga z'amashanyarazi izi nsinga z'amashanyarazi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu duce twa kure cyane tutawufite, izi nsinga zikoreshwa nko kujyana amashanyarazi yambukiranya akarere cyangwa se ahandi hantu kure.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikorosi, hirya y'ikorosi hari imodoka zirimo kuzamuka. Umuhanda kandi ufite akayira k'abanyamaguru ku ruhande. Mu nsi y'umuhanda hari ubusitani n'ibiti bizana umuyaga mwiza.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi bigizwe n'ibyuma birebire bigera mu kirere bihambirwaho insinga, insinga zigakoreshwa hojyana amashanyarazi ahantu hatandukanye mubice by'igihugu kugira ngo abantu bahatuye nabo babone amashanyarazi.

Insinga z'amashanyarazi, insinga z'amashanyarazi zikoreshwa kugira ngo zijyane umuriro mu gace gatuwe n'abantu benshi cyane cyangwa se agace k'icyaro kugira ngo kagezweho amashanyarazi.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi bitandukanye hakubiyemo n'insinga zikoreshwa mu kugeza amashanyarazi ahantu hatandukanye, izi nsiga zifasha batuye kure no mu cyaro kubona amashanyarazi yo gucana no gukoresha ibintu bitandukanye.

Insinga z'amashanyarazi zikunda kumanikwa ku muhanda, hifashishijwe ibiti cyangwa se ibyuma, izi nsinga zijyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage cyangwa ahandi hantu hari ibikorwa remezo bikeneye amashanyarazi.

Akazu abantu baruhukiramo iyo bategereje imodoka, ni akazu kaba karubatswe ku muhanda kugira ngo mu gihe abantu bategereje imodoka ntibicwe n'izuba cyangwa se banyagirwe n'imvura, kaba kari aho imodoka zihagarara.

Ku muhanda hari abamotari batandukanye bategereje abagenzi. Bose bambaye imyambaro y'akazi, ku muhanda kandi hari ibiti bihateye. Hari umuntu wambaye umwenda w'ubururu uri gukoresha telefone. Kandi hari icyapa cyamamaza kiri haruguru y'umuhanda.

Insinga zitwara amamashanyarazi zikoreshwa kugira ngo amashanyarazi abashe kugera ku bantu benshi batandukanye batuye mu duce dutandukanye , haru uduce dutandukanye kugeramo amashanyarazi biba bigoye bigasaba ko bashinga ibiti ubundi bagashyiraho insinga zikazagera aho bakeneye kuyageza

Imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'ubururu, ni imodoka nini kubera ko itwara abagenzi benshi ihagaze kuruhande rw'umuhanda irimo irashyiramo abagenzi kandi kuri uyu muhanda hari insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga harimo umuntu utwaye moto wikoreye ibintu bitandukanye, ku muhanda hari akayira k'abanyamaguru kandi k'umuhanda hepfo hari amatara amurikira umuhanda, munsi y'umuhanda hari ibiti bitandukanye.

Insinga z'amashanyarazi zikoreshwa kugira ngo bajyane amashanyarazi mu gace kitaruye. Abantu bari ahantu hitaruye baba bakeneye urumuri cyangwa se amashanyarazi yo gukoresha mu mirimo yabo ya burimunsi itandukanye.

Abanyonzi batatu bahagaze ku muhanda, babiri bari ku magare yabo undi igare yarihagaritse iruhande rw'imodoka nini itwara abagenzi. Bose bategereje abagenzi batwara bava mur'iriya modoka.

Insinga z'amashanyarazi ni insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwujyana ahantu hatandukanye utageraga, ushobora gutwara amashanyarazi ukawugeza ahantu harehare kandi hari hakeneye amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburembo ufite akayira k'abanyamaguru ku ruhande, hari umugore uri mo kumanuka mu kayira k'abanyamaguru, imbere ye hari igiti kinini k'inturusu, kandi uyu muhanda unyuzeho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti hari akayira k'abanyamaguru ku ruhande rwo hepfo hari imodoka y'umweru ihagaze ku ruhande rwo haruguru. Umuhanda uriho amatara awumurikira nijoro.

Ibitaro byitiriwe umwami Fayisari, ni bimwe mu bitaro byo mu karere kacu, bikomeye cyane mu rwego rwo hejuru. Bifite abaganga b'inzobere, kandi bikagira amazu menshi atandukanye bakoreramo serivise. Hanze na ho hameze neza, kubera ko haba hari isuku.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibyinshi mu ibyo bikoresho ni ibikoreshwa kwa muganga bapima ibizamini bitandukanye, umuganga yambaye umwambaro w'umweru arimo arapima ibizamini by'abarwayi.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge. Ibi ni ibitaro bikomeye cyane, byakira abarwayi baturutse ku bigo nderabuzima bitandukanye byo mu Mujyi wa Kigali.

Imbangukiragutabara ni imodoka zikoreshwa na minisiteri y'ubuzima. Izikoresha mu kugira ngo have abarwayi bindembe baturutse mu bigonderebuzima mu bindi bitaro bagiye kwivuriza mu bindi bitaro bifite imbaraga.

Kwa muganga hari abarwayi benshi bicaye ku ntebe bategereje kubonana na muganga, harimo n'abarwayi benshi barembye bageze mu gushyira mu mbangukiragutabara. Imbangukiragutabara ni imodoka ijyana abarwayi cyangwa se ikabakura kwa muganga.

Imiterere yo kwa muganga hakurikijwe aho serivise z'ubuvuzi ziherereye. Kwa muganga harimo ibice byinshi hari ubuvuzi bw'amaso, ubuvuzi bw'umutwe hari aho babagira n'ahandi henshi hatandukanye.

Ibitaro byitiriwe umwami fayisali ni ibitaro byo mu rwego rwohe hejuru, ndetse no ku rwego mpuzamahanga, ni ibitaro byubatse neza kandi bifite abaganga b'inzobere, hanze bimeze neza hari ubusitani hari n'ahantu hari imihanda myiza.

Imbangukiragutabara ni imodoka zikoreshwa na minisiteri y'ubuzima, kugira ngo zijye zitwara abagenzi zibakuye mu bigo ndera buzima, zibajyana ku bitaro cyangwa se ahandi bagiye kwivuriza mu buryo bwihutirwa.

Ibitaro by'akarere bya Nyarugenge ni ibitaro byiza cyane biherereye mu mugi wa Kigali bifite inyubako nshyashya, bikagira ibiti bizanamo akayaga, hazamo abarwayi bavuye mu bigonderabuzima biherereye hirya no hino.

Imbangukiragutabara ni imodoka zikoreshwa na minisiteri y'ubuzima mu Rwanda. Imbangukiragutabara zifasha mugukura abarwayi bari ku bigonderabuzima zibajyana ku bitaro bya karere cyangwa ahandi bavura abarwayi b'indembe.

Abagororwa babiri bambaye amashati y'iroza bahagaze imbere y'abacamanza bari kumwe n'umugbo wambaye ikanzu ndende y'umukara ni ubunganira mu mategeko, abacamanza bicaye imbere yabo.

Igororero, ni igipangu bacumbikiramo abantu baba baranyuze mu nkiko bakaburana ibyaha bitandukanye hanyuma bagakatirwa imyaka igifungo, imbere yaho rero hari abagororwa barimo basohoka bagiye mu kazi.

Abacamanza bari mu cyumba cy'iburanisha ni babiri, bose bambaye udupfakumwa kandi bicaye ku meza yabo, imbere y'ameza hateretse amazi yo kunywa n'umuti usukura intoki, imbere nanone hari umugororwa witeguye kuburana wambaye umwenda wa roza ari hagati y'abamwunganira mu mategeko.

Abantu babiri baricaye bose bambaye amakanzu maremare y'umweru imbere hari agatambaro k'umweru, bose bambaye udupfukamunwa, umwe ni uw'igitsinagore undi ni umugabo imbere yabo hari za mudasobwa ni abacamanza.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, yambaye ishati y'iroza, ahagaze imbere y'abacamanza. Ari kumwe n'umugabo wambaye ikanzu ndende y'umukara ifite agashumi k'umweru mu gatuza, bari kuburana.

Umugabo yitwa Kabuga Felesiyani, n'umwe mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yashakishijwe cyane inshuro nyinshi ndetse leta zunze ubumwe za Amerika zimutangaho amadorari agera kuri miliyoni eshanu, kugirango umuntu uzamufata azagororerwe. Yarafashwe, araburanishwa, yaranakatiwe.

Igororero ni ikigo gikusanyirizwamo abantu bose bahamwe n'ibyaha bakaba barakatiwe igifungo cy'igihe runaka. Igororero riba hirya no hino mu gihugu. Buri ntara iba ifite igororero, abacumbikiwemo babita abagororwa.

Umuntu wambaye ishati y'iroza n'ikabutura y'iroza ni umugororwa yaje kuburana. Ari kumwe n'umuntu wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara akaba ari umwunganizi we mu byamategeko. Abacamanza bicaye imbere.

Abantu bane. Harimo abagore babiri bambaye amakanzu y'iroza. Ni abagororwa. Naho abandi babiri bambaye amakanzu y'imikara, afite akantu k'umweru imbere, ni ababunganira mu mategeko.

Abantu batatu bahagaze, hagati harimo wambaye agapfukamunwa k'iroza n'ishati y'iroza ni umugororwa urimo kuvugana n'abantu babiri bamwunganira muby'amategeko, uwo hepfo ni uw'igitsina gore uwo haruguru kuruhande ni igitsina gabo

Igororero n'ikigo cya leta gishinzwe gukusanyirizwamo abantu baba barakoze ibyaha bitandukanye bakabihamya n'inkiko hanyuma zikabakatira ibifungo bitandukanye, ababa mu igororero babita imfungwa.

Umugabo wambaye ikanzu ndende y'umutuku ifite amabara y'umukara, imbere hari igitambaro cy'umweru kimanutse mu gatuza. Uyu mugabo akora mu nzego z'ubutabera ni umucamanza.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye ikanzu ndende y'umtuku irimo amabara y'umukara. Imbere iyo kanzu ifite agashumi k'umweru kamanutse mu gatuza, akora mu nzego z'ubutabera, ni umucamanza.

Igororero rya Nyamagabe ni rimwe mu magororero ari mu Rwanda, hafi buri ntara iba ifite igororero ryayo. Igororero ni ahantu bahuriza abantu bose baba baranyuze mu butabera bakaba barakatiwe ibyaha bitandukanye bakaba bagomaba kubirangiriza mu igororero.

Abaturage bitabiriye inkiko gacaca inkiko gacaca zashyizweho na Minisiteri y'ubutabera kugira ngo bagabanye umubara w'abantu babaga bategereje kuburanira mu nkiko zisanzwe, aba bambaye ibendera ry'igihugu ni abacamanza b'inkiko gacaca, umugabo ahagaze imbere arimo arisobanura.

Abaturage bari mu nama, abaturage bose baricaye harimo abagabo hakabamo n'abagore, abayobozi bicaye ku ntebe z'imbere. Umuturage umwe ahagaze imbere arimo arisobanura.

Abagabo babiri n'abagore babiri bose bambaye amakanzu maremare y'imikara ariho agashumi k'umweru mu gatuza, bose bakorera minisiteri y'ubutabera ni abacamanza.

Abagororwa ni abantu baba barakoze ibyaha bitandukanye, bakaregwa mu nkiko, inkiko zikabahamya ibyaha bagakatirwa igifungo, aho bafungirwa niho hitwa igororero, mu Rwanda hari amagororero menshi atandukanye.

Urutonde rw'abantu bashakishwa kubera ko bakurikiranweho kuba barakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Leta zunze ubumwe bw'Amerika zabatanzeho amafaranga miriyoni eshanu ku muntu wese wafata umuntu umwe muri bo. Bamwe barafashwe abandi baracyashakishwa.

Umugabo wambaye ikanzu ndende itukura, ni umugabo muremure imbere mu gatuza harimo agatambaro ku mweru kamanutse, uyu mugabo akora mu nzego z'ubutabera ni umucamanza.

Umugororwa yambaye ishati y'iroza. Yambaye n'agapfukamunwa. Ari kumwe n'umwunganira mu mategeko, wambaye ikanzu y'umukara, ifite agatambaro imbere, na we yambaye agapfukamunwa. Arimo aramwigisha ibijyanye n'amategeko.

Umugore wambaye iikanzu y'umutuku ndende irimo amabara y'umukara yambaye ingofero y'umuhondo itambitsemo amabara y'umukara, azamuye akaboko ke k'iburyo arimo kurahira ni umucamanza.

Kizimyamwoto ni igikoresho bakoresha igihe hadutse inkongi y'umuriro, inkongi y'umuriro ishobora kuva ku bintu byinshi bitandukanye kandi ikaza ahantu hatandukanye. Ushobora kugira inkongi y'umuriro mu gikoni, mu rugo ku kazi cyangwa se aho ukorera.

Abapolisi babiri bo mu ishami ry'igihugu rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda, barangwa n'imyenda yabo ya giporisi n'ikote ririmo amabara y'umuhondo, bafite moto ifite ibara ry'umweru bakoresha akazi ka buri munsi.

Umupolisi ukorera mu ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ahagaze mu muhanda aho ari kumwe n'umuntu utwara moto, utwaraho abagenzi. Arimo aragenzura ko yujuje ibisabwa byose kugira ngo atware moto mu muhanda.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa n'abantu batandukanye, bafite ibibazo by'inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto izimya inkongi y'umuriro mu buryo butandukanye bitewe n'ingano y'umuriro cyangwa se n'ingano ya kizimyamwoto.

Kizimyamoto n'ibikoresho bakoresha bazimya inkongi y'umuriro, kizimyamoto zishobora kuzimya umuriro bitewe n'uko zingana cyangwa se ubushobozi bwazo, bushobora kuzimya umuriro aho umuntu akorera, aho umuntu acururiza cyangwa se mu rugo.

Umupolisi wo mu ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda ari mu kazi, yahagaritse umuntu utwaye imodoka arimo aramubaza ibyangombwa kugira ngo arebe niba yubahiriza amategeko yo mu muhanda.

Umutekano w'abantu n'ibyabo urinzwe na polisi y'igihugu, abapolisi batatu bari mu muhanda bareba uko abaturage batekanye, i ruhande rwabo hari umuntu urimo kugendera ku igare, hepfo yabo hari abacuruzi bacuruza mobayiro mane.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga birimo kugenda. Hari imodoka y'umukara irimo iza, inyuma hari indi modoka y'umweru iyikurikiye. Ku ruhande hara akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho hari ubusitani bumeze neza, hari umupolisi ushinzwe umutekano mu muhanda, ari kumwe n'undi muntu w'umusivile, bari iruhande rw'inzu ya etaje, kandi barimo baratemberana.

Umupolisi ubarizwa mw'ishami rya polisi rushinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, arimo arigisha abaturage uko bakoresha kizimyamwoto. Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa bazimya inkongi y'umuriro mu buryo butandukanye uko yaba yatangiye kose.

Umupolisi wo mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, bari mu muhanda barimo baragenzura ko ibinyabiziga byose byujuje ibyangangombwa, imodoka iraje ifite ibara ry'umweru batambitse ukuboko kugira ngo kuyihagarike, hirya hari imodoka yakomeje ifite ibara ry'umukara yo irigendera.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa bazimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ishobora gukoreshwa ahantu hatandukanye, mu rugo, ku kazi, mu nsengero, mw'iduka n'ahandi henshi hatandukanye.

Imodoka ikoreshwa na polisi y'igihugu, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, ni imodoka ntoya y'ivatiri, igizwe n'ibara ry'umukara n'ibara ry'umweru, ikaba ari imodoka ikoreshwa mu gucunga umutekano mu muhanda.

Kizimya mwoto ebyiri zifite ibara ry'umutuku. Kizimyamwoto ni igikoresho bakoresha bazimya inkongi y'umuriro ahantu harimo gushya. Kizimyamwoto ushobora kuyikoresha ahantu hatandukanye, ushobora kuyikoresha mu rugo iwawe cyangwa se ukayikoresha ku kazi igihe hadutse inkongi y'umuriro.

Kizimyamwoto ni igikoresho bakoresha bazimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ntabwo ziba zingana, biterwa n'umuriro zigiye kuzimya. Kizimyamwoto ishobora gukoreshwa mu rugo, igakoreshwa ku kazi cyangwa se igakoreshwa mu iduka.

Abapolisi b'u Rwanda bashinzwe umutekano w'abaturage n'ibyabo, abapolisi bo mu Rwanda bambara imyenda y'umukara iriho ibendera ry'u Rwanda ku kuboko kw'ibumoso. Intwaro bakoresha ni imbunda.

Inzu iriho umurindankuba, umurindankuba ushyirwa ku nzu kugira ngo iwurinde mu gihe kibiza n'igihe cy'akaga. Umurindankuba ufasha mu gihe k'imirabyo myinshi n'ikubita ry'inkuba kugira ngo bitaba byakwangiza inzu.

Ibitaro bya Kacyiru bya polisi y'igihugu ni bimwe mu bitaro bikomeye cyane mu Rwanda, bishobora kwakira abarwayi batandukanye bavuye hirya no hino mu bitaro by'uturere hirya no hino mu gihugu, ni ibitaro bifite isuku kuko bifite n'ubusitani hanze n'ibiti bizana akayaga.

Inzu iriho umurinda nkuba. Umurinda nkuba ufasha mugihe hari imirabyo myinshi cyangwa se ikubita ry'inkuba, urinda rero ko inkuba cyangwa se imirabyo ishobora kwangiza inzu bikaba byatera inkongi y'umuriro.

Ikizamini cyo gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kuri moto. Abantu benshi bari mu kizamini barimo barakora ikizamini. Umupolisi uri mw'ishami ry'abapolisi bari mw'ishami ry'umutekano mu muhanda ahagaritse umuntu urimo gukora ikizami, kugirango arebe ko yubahirije amabwiriza.

Kizimya mwoto ebyiri imwe ifite ibara ry'umweru indi ifite ibara ry'umutuku kizimya mwoto zikoresha igihe bashaka kuzimya inkongi y'umuriro; Inkongi y'umuriro ushobora kuzimya ishobora kuba ari iyo murugo, mu gikoni, mu imodoka, ku akazi cyangwa ahandi.

Mu nteko ishinga amategeko, hakoreramo urwego rw'abadepite n'urwego rw'abasenateri, buri wese aba afite intebe ye bwite yicaraho kandi imeze neza, mu cyumba haba harimo ikoranabuhanga ry'amajwi n'amashusho.

Umugore yicaye ku ntebe imeze neza, isa neza, igaragara neza. Yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru arimo arareba imbere. Ibumoso bwe hari ibendera eya Repubulika y'u Rwanda, ni umuyobozi.

Umuntu w'igitsina gore wicaye mu ntebe nziza urimo ureba imbere yambaye neza cyane kandi iruhande rwe hari ibendera ry'igihugu ku meza, ku meza hari terefone yo mu biro uyu muntu ni umuyobozi.

Abantu b'igitsina gore bakenyeye, bose bazamuye ukuboko kw'iburyo ukuboko kw'ibumoso gufashe ku ibendera ry'u Rwanda abanagaba barimo bararahirira imirimo babonye mishyashya y'akazi.

Habyarimana Yuvenali yabaye perezida wa repubulika ya kabiri mu Rwanda, akaba yarayoboye u Rwanda nka perezida kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe maganakenda na mirongokenda na kane ubwo jenoside yatangiraga.

Umudamu wambaye indorerwamo z'amaso yambaye ikote ry'umuhondo n'ikanzu y'umukara yicaye mu ntebe nziza, iburyo bwe hari ibendera ry'u Rwanda ibumoso hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, uyu mudamu ni umuyobozi.

Abadepite mu nteko ishinga amategeko, buri wese yicaye mu mwanya we hari intebe nziza umuntu ashobora kwegama buri wese aba afite mudasobwa ye kandi baba bakurikiye uri gutanga ikiganiro.

Nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame hamwe na madamu Mushikiwacu uyobora umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga igifaransa. Bari imbere y'ikirangantego cya repubulika barimo kwifotoza.

Mu Nteko ishinga amategeko, abadepite bicaye mu myanya yabo. Minisitiri w'Intebe ari imbere yabo, hari ibyo ari kubabwira.

Perezida wa repuburika yu Rwanda n'umufasha we janete Kagame bari muri sitade Aho barimo kunyura imbere y'imbaga ya bantu benshi ni mu gihe cyirahira rya perezida wa repuburika.

Muhayimana Filipe ni umwe mu bakandida biyamamaje ku mwanya wa perezida wa repubulika mu matora yo muri bibiri na makumyabiri na kane, ntago yabashije gutsinda ayo matora kubera ko uyatsinze ari perezida Polo Kagame.

Abagore bane bambaye neza bahagararanye hagati y'amabendera, ibendera ry'u Rwanda n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda. Hejuru yabo hari ifoto ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Abagore bose ni abayobozi.

Ahantu heza, hari ubusitani bwiza, hari inzu nziza, hari n'amahema, ndetse hari n'ikibuga gitandukanye umuntu yakoreraho ibintu bitandukanye, urugero: nk'amanama, cyangwa se umuntu akaba yahakoreshereza ubukwe.

Yitwa Mpayimana Philipo yari umukandida mu matora ya perezida wa repuburika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ari mu kwiyamamaza kugira ngo barebe nimba abantu bazamutora, ariko ntabwo yatowe kubera ko hatsinze Paul Kagame.

Mu nteko ishinga amategeko abadepite bicaye mu myanya yabo, buri wese yicaye ku ntebe nziza kandi intebe itamuvuna buri wese afite mudasobwa imbere ye, abadepite bayoboye abandi bicara mu myanya y'imbere.

Perezida Polo Kagame, ni perezida wa repubulika y'u Rwanda. Ni perezida ukunzwe n'abaturage kubera ko yita kubibazo byabo, ntabwo ari abaturage gusa bamukunda ahubwo n'abakiri bato urubyiruko, abana usanga bose bamukunze .

Inteko ishingamategeko buri muntu ugize inteko ishingamategeko wese agira umwanya yicaramo, imyanya yose iba yicayemo abantu kandi buri wese aba afite mudasobwa n'uburyo bwo gukurikirana, haba hari umuntu urimo gutanga ikiganiro.

Abamotori batwaye abagenzi kuri moto bari muri kaburimbo, iyuma yabo hari imodoka isazwe y'umuntu yijyendera hari n'umuntu uhagaze mumuhanda urimo vugana nuri mumodoka.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo imodoka ndende, ifite ibara ry'umweru, yikorera imizigo, ku ruhande rw'umuhanda rwo hepfo hateyeho ibiti bitandukanye, urwo haruguru, hari inzira iyobora amazi.

Umuhanda wa kaburimbo uzamuka, hari umumotari uzamuka ariko nta mugenzi afite. Ingofero y'umugenzi ayifite mu kuboko, inyumaye hari abandi bamotari bagenzi be babiri bari kuzamuka, Ariko nabo nta bagenzi bafite.

Umumotari uhetse umugenzi ari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwe hari moto yikorere imizigo ifite ihema ry'umweru. Inyuma hari indi moto nayo irimo kumanuka ku ruhande rwo hepfo hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo utarimo ibinyabiziga byinshyi, harimo moto itwara imizigo. Imbere yayo hari abanyamagura bari kugenda, mu kayira k'abanyamaguru. Umuhanda Kandi uriho amatara, munsi y'umuhanda Kandi hari ibiti bitandukanye.

Umuntu urimo usunika umufuka w'ibirayi ku igare, mu muhanda wa kaburimbo, arimo aragenda asunika buhoro buhoro, kubera ko umufuka uraremereye. Imbere hari imodoka irimo kumanuka munsi y'umuhanda hari ibiti bitandukanye.

Umuntu wambaye agakote k'umuhondo ari k'umuhanda wa kaburimbo, umuhanda wa kaburimbo urimo ikimodoka kinini gifite ibara ry'ubururu cyikoreye umuzigo muremure, munsi yacyo hepfo y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, abanyamagare, abanyonzi batwaye abagenzi mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka nini y'umweru itwaye umuzigo, utwikirije ihema, mu nsi y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu ugenza n'amaguru wikoreye umufuka, inyuma hari umumotari utwaye umugenzi, ku ruhande hepfo hari imodoka y'umweru yikorera imizigo, mu nsi y'umuhanda hateye ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka ebyiri zitandukanye, imwe n'imodoka yikorera imizigo ifite ibara ry'ubururu indi n'imodoka yikoreye imizigo ifite n'iyo yapakururiye hasi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, ariko ibyiganjemo ni abamotari batwaye abagenzi, umuhanda ugabanyijemo ibice bibiri bitandukanyijwe n'ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugabo uri kugenda n'amaguru. Hirya yayo hari imodoka y'umweru itwara imizigo ndetse n'imodoka y'ubururu itwara abagenzi

Umuhanda wa kaburimbo, harimo imodoka ntoya itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, imbere y'iyo modoka hari umumotari udafite umugenzi, ku ruhande rwo hepfo haragaragara ibiti bitandukanye.

Umumotari utwara abagenzi ari mu muhanda yambaye umwenda w'akazi ndetse n'ingofero, arimo aramanuka agiye guhura na mugenzi we nawe w'umumotari urimo kuzamuka. Imbere hari imodoka irimo kugenda uruhande rw'umuhanda rwo haruguru hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye umugenzi, umugenzi uhetse igikapu. Iruhande rwe hari imodoka yikoreye imizigo, kuri iyo modoka hariho umuntu uri hejuru ugenda acunga umutekano w'imizigo.

Mu muhanda harimo abanyamaguru, abanyamaguru bategereje kwinjira mu modoka itwara abagenzi. Imodoka itwara abagenzi ihagaze ku muhanda ifite ibara ry'ubururu. Ni imodoka abantu bagendamo bicaye abandi bahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo ikimodoka kinini gitwara ibikomoka kuri peteroli, ku ruhande rwo hepfo hateye ibiti bitandukanye, inyuma y'ikimodoka hari abamotari batwaye abagenzi.

Imodoka irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo ni imodoka ifite ibara ry'ubururu yikoreye ibintu inyuma, munsi y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye kandi hari abaturage bahatuye.

Imodoka nini itwara abagenzi mu muhanda ni imodoka abantu bakunze kwita ku izina rya shirumuteto. Ifite imyanya abantu bagenda bicayemo, n'indi myanya myinshi abantu bagenda bahagazemo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga biri kugenda, hari abamotari babiri batwaye abagenzi, hari ikimodoka kinini cyikoreye ibicuruzwa, hari n'abanyamaguru barimo bigendera kuruhande rwo hepfo.

Imodoka y'umweru yikoreye imizigo iri mu muhanda wa kaburimbo, umuntu w'umugabo wambaye umupira w'umuhondo yicaye hejuru kugira ngo acunge ibisambo bitagira icyo byiba muri ino modoka.

Imodoka nini itwara abagenzi mu mugi wa Kigali, iyi modoka y'icyatsi itwara abagenzi benshi bamwe bakunze kwita shira umuteto, ni imodoka itwara abagenzi bamwe bicaye abandi bakagenda bahagaze.

Abamotari babiri bari mu muhanda wa kaburimbo. Umwe ahetse umugenzi arimo aragenda, undi we ahagaze ku muhanda arimo arashaka umugenzi. Uhagaze ku muhanda udafite umugenzi atwaye moto ikoreshwa n'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo epfo yaho hari inzira yagenewe abanyamaguru, muri kaburimbo harimo imodoka y'umweru ikurikiwe n'umumotari utwaye abagenzi, hirya hari imodoka nini itwara abagenzi muri rusange ifite ibara ry'ubururu.

Ibinyabiziga bitandukanye mu muhanda, harimo moto ebyiri zitwaye abagenzi imbere ya moto hari imodoka nini itwara imizigo, imbere yiyo modoka hari imodoka itwaye abagenzi icanye amatara zose ziri kugenda kandi burije.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka urimo imodoka irimo irabugendamo umuntu uri mu modoka yasohoye akaboka inyuma yo mu nkengero z'umuhanda hari indabyo zitandukanye n'ubusitani ndetse n'ibiti biteyemo.

Imodoka nini itwara abagenzi muri rusange, ihagaze ku muhanda kugira ngo ifate abagenzi bashyashya. Ni imodoka itwara abagenzi banshi kuko bamwe bagenda bicaye abandi bakagenda bahagaze. Ihagaze iruhande rw'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, umunyonzi uhetse umufuka munini cyane ku igare yambaye ingofero y'umutuku, iruhande rwe hari moto yikorera imizigo ipfundikiye inyuma, ku ruhande rwo hepfo hateye ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite inzira y'abanyamaguru ku ruhande, hari umugenzi urimo ugenda mu nzira y'abanyamaguru munsi y'ibiti, harimo imodoka nini y'umutuku yikorera ibintu bikoreshwa mu bwubatsi nk'amabuye, umucanga, itaka n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, umunyonzi atwaye umugenzi ku igare barimo kuzamuka, ikimodoka kinini cy'umweru kikoreye ibicuruzwa. Akandi kamodoka gatoya k'umutuku karimo karamanuka, munsi y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, ku nyengero z'umuhanda hariho umucuruzi w'igitsina gore wa mobayiro mane arimo aragendana n'undi muntu w'igitsina gabo, mu muhanda hagati harimo n'indi modoka nini y'umutuku yikorera ibintu by'ubwubatsi ishobora gutwara amabuye, umucanga cyangwa se ibindi bikoresho.

Mu muhanda harimo imodoka nyinshi zitandukanye. Harimo imodoka nini yikoreye imifuka, imbere yayo hari indi modoka ntoya yifuza kwinjira mu muhanda. Inyuma hari indi modoka irimo kwambukiranya umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka ifite ibara ry'umweru yikoreye ibintu inyuma bitwikirije ihema, niyo yonyine iri mu muhanda munsi y'umuhanda haparitse izindi modoka nyinshi.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi ni imodoka inzwi ku izina rya shira umuteto, ikaba itwara abagenzi benshi kuko itwara abagenzi bicaye abandi ikabatwara bahagaze, ni imodoka itwarwa n'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo irimo imodoka y'umweru nini itwikiriye inyuma, imodoka isanzwe itwara imizigo, ni imodoka yonyine iri mu muhanda. Munsi y'umuhanda kandi hari ibiti bitandukanye bihateye bizana umuyaga.

Umuhanda wa kaburimbo umeze neza, moto itwawe n'umuntu irimo irazamuka, inyuma ya moto hari imodoka hagati harimo ubusitani buteyemo imikindo. Hanyuma hari imodoka irimo kuza yinjira mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini cyane y'umweru yikorera amazi, munsi y'umuhanda hari ibiti bitandukanye, ku muhanda hari amatara abamurikira nijoro akamurikira n'ibinyabiziga.

Mu muhanda wa kaburimbo hari umuntu urimo kugenda n'amaguru ku nkengero z'umuhanda mu muhanda, mu muhanda hagati harimo imodoka nini cyane itwara abagenzi irimo kumanuka munsi y'umuhanda hateye ibiti kandi ku muhanda hari amatara abamurikira nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo moto itwara imizigo ariko nta mizigo ifite, irimo iragenda yonyine, munsi y'umuhanda hari ibiti biteye ku muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendwamo n'imodoka ndende cyane, yikorera imizigo. Ni imodoka itwikirije ihema ry'umukara. Munsi y'umuhanda hari ibiti, haraguru y'umuhanda hari inzira iyobora amazi.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ikimodoka kinini cyane cy'ibara ry'umweru kikorera ibituruka kuri peteroli, munsi y'umuhanda hari ibiti bitandukanye, haruguru y'umuhanda hari inzira iyobora amazi.

Moto zikorera imizigo zose zihagaze aho zitegerereza abakiriya, ni ahantu heza iruhande rw'umuhanda kandi zifite amabara atandukanye harimo iz'umweru, iza kake, n'iz'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru itwaye imizigo, imodoka niyo yonyine iri mu muhanda ku ruhande rwo hepfo hari umuntu urimo kugenda kandi hari ibiti biteye ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hariho inzira yagenewe abanyamaguru harimo imodoka nini y'umutuku yikoreye umucanga, hari abantu barimo kugenda mu nzira y'abanyamaguru, munsi y'umuhanda hateye ibiti.

Imodoka nini itwara abagenzi iri ku muhanda, n'imodoka ifite ibara ry'ubururu n'umweru, n'imodoka itwara abagenzi benshi kubera ko bamwe bagenda bicaye abandi bagenda bahagaze. Mu muhanda harimo umumotari utwaye moto.

Imodoka ninini itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo, kuruhande rwo hepfo hari umumotari udafite umugenzi nawe uri mu muhanda arimo kugenda, kuruhande rwo hepfo rw'umuhanda hateye ibiti.

Ibimodoka binini byikorera imizigo birimo birabisikana. Kimwe cy'umutuku ni ikimodoka kikorera imicanga, amabuye, itaka n'ibikoresho by'ubwubatsi. Ikindi ni ikimodoka kirekire kikorera imizigo.

Ku muhanda hari imodoka ebyiri zitwara abagenzi. Ni imodoka nini cyane zifite ibara ry'icyatsi. Bakunze kuzita shira umuteto kubera ko akenshi zitwara abagenzi benshi, bamwe bicaye abandi bahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo ufite inzira yagenewe abanyamaguru kuruhande , umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka zirimo kugenda, imodoka y'imbere ni imodoka nini yikoreye imizigo inyuma ni imodoka nto isanzwe haruguru y'umuhanda hatuye abaturage.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umutuku, yicaye mu modoka, imodoka, ni imodoka isanzwe yikorera imizigo, imbere y'imodoka hari umumotari utwaye umugenzi.

Imodoka y'umweru yikoreye imizigo iri mu muhanda wa kaburimbo. Harimo umuntu wambaye ishati y'umweru. Ku muhanda wa kaburimbo hari umugore urimo kugenda n'amaguru. Imbere y'imodoka hari umumotari uhetse umugenzi.

Imodoka y'ikigo k'igihugu k'itumanaho mu Rwanda Arabi eyi iri mu muhanda wa kaburimbo, ni imodoka igizwe n'amabara atandukanye umweru, ubururu, umuhondo n'icyatsi. Iyo modoka ari mu muhanda irimo kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo unyura munsi y'undi muhanda uzamuka, ni ikoranabuhanga rikomeye cyane mu myubakire y'imihanda. Umuhanda wa kaburimbo wo hasi hari ikimodoka kinini cyane cyikorera imizigo kirimo kunyura muri uwo muhanda, hejuru naho hari abanyamapikipiki barimo kunyura mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu, imbere y'iyo moto hari moto zisanzwe z'abamotari zidafite abagenzi. Umuhanda ufiite inzira ku ruhande z'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo harimo moto y'amapine atatu yikorera imizigo ifite ibara ry'ubururu, iyi moto hariho nimero za terefone zanditsweho, uruhande ro hepfo hari imodoka isanzwe ifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo harimo moto z'abamotari zitwaye abagenzi, harimo imodoka nini cyane yikoreye ibikoresho bikoreshwa mu mazi. Umuntu uri ku igare arimo ararisunika kandi rihetse amagi.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo umunyonzi uhetse umugenzi, imodoka yikoreye imizigo irimo irava mu muhanda igiye guhagarara hepfo y'umuhanda, hepfo y'umuhanda hari abandi bantu bahahagaze kandi imbere yayo hari amazu.

Umunyonzi utarwa igare, yambaye umupira w'umweru. Ari mu muhanda wa kaburimbo, arimo aragenda, ariko nta mugenzi afite. Hirya ye, umumotari ahetse umugenzi. Nawe arimo aragenda. Hakurikiyeho imodoka nini cyane y'ibara ry'umweru, itwikiriye inyuma, yikorera imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo umunyonzi uri ku igare urimo kumanuka ariko nta mugenzi afite, umumotari ahetse umugenzi kandi umumotari atwaye moto itwarwa n'amashanyarazi, imodoka yindi yikoreye imizigo irimo kumanuka.

Umumotari urimo kugenda ashakisha abagenzi mumuhanda wa kaburimbo, yambaye umwenda wakanzi na ingofero imurinda umutwe ya ibara rya umutuku. Ari mumuhanda wa kaburimbo kandi arimo arawugendamo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu n'ibinyabiziga bitandukanye, hari umuntu w'umunyamaguru urimo kugenda ku ruhande aravugira kuri telefone, abamotari babiri, umwe atwaye umugenzi, undi ntamugenzi afite, bose bafite moto zikoresha amashanyarazi.

Umunyamaguru arimo aragenda iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo. Umuhanda wa kaburimbo harimo ikimodoka kinini gitwara ibintu gifite ibara ry'umuhondo, urabona ko hepfo y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ikimodoka kinini kikorera imizigo gifite ibara ry'umutuku imbere n'ibara ry'icyatsi kibisi inyuma. Munsi y'umuhanda hari ibiti bitandukanye bihateye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini y'umutuku, yikoreye umucanga. Iyi modoka ishobora gutwara n'ibindi bintu bikoreshwa mu bwubatsi nk'amabuye, amatafari n'ibindi bitandukanye cyane.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'umweru itwaye abantu imbere yayo hari umunyonzi umuntu utwaye igare uhetse umugenzi, ku muhanda hari amatara amurikira ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo umunyonzi arimo aratwara umugenzi. Abamotari babiri nabo bari mu muhanda batwaye abagenzi. Mu nsi y'umuhanda hateye ibiti kandi mu nsi y'ibyo biti haparitse izindi modoka.

Imodoka zirimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imwe ni imodoka ntoya itwara imizigo yikoreye ibintu, indi ni imodoka itwara imizigo ariko yo irimo ubusa. Mu kayira k'abanyamaguru harimo abagenzi babiri bari gutambuka.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ikimodoka kimwe kikorera izindi kikaba gihetse imodoka yagize impanuka, munsi y'umuhanda hari ibiti bihateye kandi i ruhande rwabyo hari ikiraro ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo umeze neza. Umuhanda harimo moto y'amapine atatu yikorera imizigo irimo iragenda ariko nta mizigo ifite. Yabisikanye n'ikinyabiziga gitwara imizigo cyikoreye za matera, gitwikirije ihema.

Imodoka yigishirizwaho abantu bashaka kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ni imodoka iri mu muhanda irimo kugenda umunyeshuri ari mu kwiga. Hepfo y'iyo modoka hari ibiti bitandukanye ku muhanda.

Ikimodoka kinini gikururana kikoreye umuzigo mu muhanda wa kaburimbo, kirimo kiragenda gahoro. Ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hateye ibiti bitandukanye kandi ku muhanda hari amatara awumurikira nijoro.

Umuntu utwaye moto ari mu muhanda wa kaburimbo, yegeranye neza neza n'ikimodoka kinini cy'umutuku gitwara ibintu bitandukanye nk'umucanga, amabuye, ibitaka n'ibikoresho by'ubwubatsi, mu nsi y'umuhanda wa kaburimbo hateye ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abagenzi batandukanya, hari umugabo urimo kumanuka wambaye umupira w'umukara arimo kugenda avugira kuri terefoni, harimo umuntu utwaye igare wikoreye amakaziye y'inzoga harimo n'abandi bari kuzamuka.

Ikibuga cyiza cyane giteyeho ibyatsi gishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye gishobora gukinirwaho umupira w'amaguru cyangwa se indi mikino, cyangwa se gishobora no gukorerwaho inama zitandukanye.

Ikibuga cyiza cyane gifite ibyatsi kandi kiringaniye, ni ikibuga gishobora kwifashishwa mubintu byinshi bitandukanye harimo kuba cyakinirwaho imikino itandukanye urugero nk'umupira w'amaguru kandi kikaba cyanaberaho inama zitandukanye.

Ikibuga cy'umupira kimeze neza kirimo ibyatsi byiza gishobora gukoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, gishobora gukinirwamo umupira w'amaguru, gishobora no kuberamo inama zitandukanye abantu bakahahurira.

Icyapa kigaragazako utangomba kurenza umuvuduko wa mirongo ine ku isaha, kiba kigizwe n'ibara ry'umu

Ibyapa bigaragaza amazina y'imihanda. Biba bigizwe n'inyuguti ebyiri ziranga aho umuhanda uherereye, n'imibare irimo hagati, igaragaza nimero y'umuhanda. Ibyo byapa ni ingezi cyane kugira ngo biyobore abagenzi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ukiri mushya ku ruhande hari inzira inyuzwamo amazi iyo imvura igihe imvura yaguye ku rundi ruhande abanyamaguru barimo baragenda ku ruhande rwagenewe abanyamaguru. Umuhanda ufite amatara ayicanira mu gihe ari nijoro.

Icyapa kigaragaza ko imodoka ebyiri zitemerewe kunyuranaho. Kigizwe n'ibara ry'umweru rizengurutswe n'ibara ritukura banyujijemo umurongo hagati. Hagati hakaba harimo imodoka ebyiri ziri mu ibara ry'umukara ziteganye.

Icyapa kigaragaza ko bitemewe kunyura mu muhanda n'imodoka iremereye, ni icyapa kigizwe n'ibara ry'umweru rizengurutswe n'ibara ry'umutuku riciyemo umurongo w'umutuku. Hagati kandi ushushanyijemo imodoka iri mu ibara ry'umukara imodoka nini.

Ubusitani buri hafi y'umuhanda wa kaburimbo kandi ubusitani buriho akayira k'abanyamaguru kari kuri kaburimbo, hari icyapa kirekire kigaragaza ko hagomba guhagarara imodoka zitwaye abagenzi zikuramo abagenzi zishyiramo abandi.

icyapa kimenyesha ko ntaho guhagarika ibinyabiziga hahari ni icyapa cy'umweru kizengurutswe n'umurongo w'umutuku hagati harimo inyuguti ya P inyuzemo umurongo w'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hariho akayira abanyamaguru banyuramo, hari icyapa kigizwe na mpande eshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku. Harimo imirongo hagati n'umuntu urimo gutambuka kigaragaza aho abanyamaguru bambukira muri kaburimbo.

Icyapa kigaragaraza inzira y'abanyamaguru kigizwe na mpande eshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku, imbere harimo ibara ry'umweru harimo umuntu ufite ibara ry'umukara urimo kugenda mu nzira.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza ukiri mushyashya, hari icyapa cya Karongi kigaragaza ko ari mu karere ka Karongi, munsi y'umuhanda hari ibyatsi bitandukanye, mu muhanda nta binyabiziga birimo.

Icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara kigizwe n'ibara ry'ubururu, kikaba gishushanyijemo imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'umukara riri mu ibara ry'umweru.

Icyapa kigaragaza inzira z'abanyamaguru. Kigizwe na mpande eshatu izengurutswe n'ibara ritukura, hagati hakabamo ibara ry'umweru. Harimo umuntu uri mu ibara ry'umukara urimo ugenda mu muhanda.

Icyapa kigaragaraza aho ikinyabiziga gishobora kunyura. Kigizwe n'ibara ry'umeru rizengurutswe n'ibara ry'umutuku. Imbere harimo umuhanda uri mu ibara ry'umukara igaragaza ko ugomba gukomeza imbere hanyuma ugakata ibumoso.

Icyapa kigaragaza inzira y'abanyamaguru kigizwe na mpande eshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati hakabamo ibara ry'umweru ririmo umuntu urimo gutambuka uri mu ibara ry'umukara urimo gutambuka mu muhanda.

Icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara, kikaba kigizwe n'ibara ry'ubururu cyandikishinjwemo imodoka itwara abagenzi mu ibara ry'umweru hasi, hejuru hari inyuguti ya pi mu ibara ry'umweru.

Akarere ka rusizi, ni kamwe mu turere tugize intara y'uburengerezuba, ni akarere keza gafite imihanda myiza, imihanda ya kaburimbo ndetse n'ibyiza nyaburanga bitandukanye, gafite amashyamba menshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka za moto ndetse n'amagare. Hari icyapa kigaragaza ko imodoka nini ziremereye zitemerewe kuhanyura kandi hhari ikindi cyapa kigaragaza ko hari ikiraro.

Icyapa gisobanura imihanda, kibakigizwe n'urukiramende rw'umweru ruzegurutse nakarongo kumukara. Har'inyuti ebyeri zitangira zigaragaza izina ryaho umuhanda uherereye, ninyuguti zirihagati zigaragaza numero yuwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, hari umunyamaguru urimo ugenda mu kayira kagenewe abanyamaguru i ruhande rw'umuhanda hari inzu ifite irangi ry'umuhondo, hari icyapa kigaragaza ko ibinyabiziga bitagomba kurenza kilometero mirongo itandatu mu isaha.

Icyapa kiranga imihanda, kigizwe na mpande enye y'umweru izengurutswe n'akabara k'umukara, inyugiti zigaragaza izina ry'aho giherereye, imibare hagati igaragaza nimero y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza, uriho icyapa kigaragaza aho imodoka zinyura zizenguruse, aho ngaho zizenguka harimo ubusitani bwiza buzengurutswe n'ibintu by'imikindo bimeze neza.

Muhanda wa kaburimbo hahagazeho umugore ufite igikapu, uyu mugore inyuma ye hari icyapa kigaragaza ko uyu muhanda werekeza mu karere ka Gicumbi, kandi hari umuhanda ugaragaza ko hari icyapa zigaragaza ko winjiye mu Rwanda, ni ukuvuga ngo ni hafi y'umupaka w'u Rwanda n'Ubugande.

Inzu imeze neza yo guturamo watuzamo umuryango. Ni inzu ifite umutekano, ifite igicucu kuberako ikikijwe n'ibiti, kandi imbere y'iyo nzu hari ubusitani, hari n'imihanda imeze neza.

Remera Giporoso ni hamwe mumujyi wa kigali hateye imbere kurusha ahandi, hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, hari amaduka atandukanye, hari isoko rimeze neza, hari n'aho imodoka zihagarara zitwara abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga biparitse ku ruhande rwawo, hari inzu y'igorofa ndende cyane irimo serivise z'ubucuruzi, hari imodoka zihagaze ku muhanda nyinshi cyane zihari, hari icyapa kigaragaza ko umuhanda utagomba kunyurwamo n'imodoka nini zipakiye.

Ku kibuga cy'indege i Kanombe, ni hamwe mu hantu hatuye abantu baciriritse. Hari inzu ziciriritse aho hari inzu ngufiya ndetse inzu zimwe zikamera nk'aho zishaje. Hari ibiti bigiye biteye hagati aho abaturage batuye.

Imyubakire itandukanye mu mujyi iba yubatse kuburyo harimo inzu z'amagorofa ndende zimeze neza hakabamo inzu ziciriritse ariko hakaba n'izindi ntoya inzu zisanzwe za giturage.

Zigama siyesesi n'ikigo gifite abanyamuryango bo mu nzego z'igihugu zishinzwe umutekano, Harimo ingabo z'igihugu, abagize polisi y'igihugu, n'urwego rushinzwe abagororwa ndetse n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda.

Imiturire itandukanye mu Mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ugizwe n'amazu atandukanye: harimo amazu maremare y'amagorofa, amazu asanzwe, ariko na yo atandukanye bitewe n'ukuntu yubatse.

Imiturire mu mujyi iba itandukanye hari ahaba hubatse amazu mareremare kandi meza y'amagorofa, ahandi akaba ari amazu aciriritse ya rubanda rusanzwe ariko n'ibisenge bikaba bitandukanye hari ib'amategura hari n'iby'amabati.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka zitandukanye zirimo zigenda zizamuka, umu motari ahetse umugenzi barimo baramanuka, ku ruhande rwo hepfo, hari inzu y'igorofa ikorerwa mo imirimo y'ubucuruzi.

Imyubakire mu mujyi iba itandukanye bitewe n'amikoro y'abantu n'agace iyo myubakiro iherereyemo. Hari ahahari amazu maremare agerekeretse kandi agezweho, hari n'amazu matoya aciriritse yo hasi.

Kiliziya ni inzu abakirisitu gaturika basengeramo haruguru y'iyo kiliziya hari umuhanda wa kaburimbo, ku muhanda wa kaburimbo hari umuntu utwaye umuzigo ku igare kandi umuhanda wa kaburimbo hariho ibiti.

Kimironko ni umwe mu mirenge igize akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali imiturire ya Kimironko iratandukanye harimo abaturage bafite inzu nziza zigeretse z'amagorofa abandi bakaba bafite inzu ziciriritse zisanzwe.

Umuhanda unyura hagati y'amazu atandukanye harimo abanyamaguru babiri bari kugenda, amazu y'umuhanda yo munsi y'umuhanda ni meza cyane no haruguru y'umuhanda nayo ni amazu asobanutse.

Hilitopu hoteli ni hoteli nziza cyane ibarizwa mu mugi wa Kigali, i Remera. Ni hoteli nini, ifite ibyumba by'amanama, ifite amaresitora meza, kandi iri ku muhanda.

Banki ya Kigali ni kimwe mu bigo by'imari bikorera mu gihugu cya cy'u Rwanda, bifite amashami ahantu henshi hatandukanye, hafi buri Ntara cyangwa se buri Karere kaba gafite ishami rya Banki ya Kigali.

Umuhanda wa kaburimbo uriho ikiraro, ku kiraro hari ibyuma bibuza abantu kuba bakora impanuka, hariho inzira abanyamaguru bambukiramo, igizwe n'imironko y'umweru ishushanyije mu muhanda.

Aho imihanda itandukanye ihurira yose ni imihanda ya kaburimbo kandi yose ni imihanda imeze neza ikikijwe n'ubusitani bumeze neza ndetse n'ibiti, hari abantu barimo kugenda mu muhanda.

Imihanda ya kaburimbo ikoranye ikoranabuhanga, umwe uratambika unyuze hasi undi urazamuka unyuze hejuru y'uwo hasi. Umuhanda wo hasi urimo abamotari batatu batwaye abagenzi kandi harimo igikamyo kinini kikoreye ibicuruzwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendwamo n'umumotari uhetse umugenzi, bombi bambaye ingofero z'umuhondo. Umumotari kandi atwaye moto ikoreshwa n'amashanyarazi mu muhanda hagati harimo uruziga rugizwe n'ubusitani buteyeho umukindo.

Umuhanda wa kaburimbo mu gice cyagenewe aho abanyamaguru bambukira, kiba kigizwe n'imirongo y'umweru iciye muri kaburimbo, hari kandi amatara ayobora abagenzi n'ibinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo unyura hagati y'ibiti, hari umumotari utwaye umugenzi, imbere ye hari ikimodoka gifite ibara ritukura kikoreye umucanga kirimo kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo uri ahantu hazamuka, hari umuntu ku ruhande urimo kumanuka mu kayira k'abanyamaguru, hepfo hari undi muhanda utambika. Uyu muhanda ufite ahantu hagenewe kwambukurwa abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo harimo umuntu uri kugenda ku igare rya siporo, inyuma y'uwo muntu kandi hari imodoka itwara inyama, hari indi modoka iturutse imbere irimo kugenda iza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendwamo n'abamotari bahetse abagenzi, buri mumotari umugenzi ahetse afite umuzigo, mu muhanda hagati harimo ubusitani buteyeho ibiti by'imikindo.

Imihanda ya kaburimbo ikozwe mu ikoranabuhanga umwe unyura munsi y'undi. Ku muhanda wo hasi hari ikimodoka kinini cyane cyikorera imizigo kigiye kunyura munsi yundi muhanda.

Aho imihanda ihurira hahagaze umunyonzi ufite igare utegereje abagenzi. Imihanda ifite inzira yagenewe abanyamaguru, ku muhanda hepfo hari umumotari n'umunyonzi bategereje abagenzi.